Umudamu uhagaze wambaye itaburiya yera n'ipantaro y'umukara, akaba akikijwe n'abana batoya benshi bicaye ku musambi.

Abana benshi bicaye ku musambi, akaba ari abakobwa n'abahungu, bose bafite ibikombe bari kunywa, inyuma yabo hari indobo y'ubururu ihateretse.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri, ahagaragara abana batoya cyane, bicaye ku dutebe dufite amabara atandukanye, umuhondo icyatsi kuruhande hakaba hari utubati turimo ibitabo.

Umudamu uhagaze witeze igitambaro kirimo amabara atukura, akaba yambaye n'igitenge, imbere y'iwe hashashe umukeka hicayeho abana benshi bafite ibikombe.

Abana benshi batoya bicaye ku musambi, inyuma yabo hakaba hagaragara inzu, hari abadamu babiri bakuru basa nkaho bari kubigisha babereka ibishushanyo.

Imbere mu nyubako ahagaragara abana batoya cyane, bicaye ku dutebe dusize akarangi k'ubururu, imbere yabo hari umudamu ukenyeye igitenge, akaba afite igitabo mu ntoki.

Abana batoya bari hanze bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara, hagati yabo hari umudamu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umutuku.

Abana babiri batoya b'abakobwa bambaye amajipo asa ubururu, bari kwirukanka mu muhanda, hakurya hagaragara ibiti.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo abana, abahungu ndetse n'abakobwa bahagaze ku musambi, hagati yabo hari umudamu wambaye ibitenge.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri ahagaragara abana batoya cyane, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, bose bafite ibitabo bari gusoma.

Abana batoya benshi bicaye mu byatsi. Harimo abahungu ndetse n'abakobwa, imbere yabo hari umudamu bisa nkaho ari umwarimu.

Abana batoya batoye uruziga, inyuma yabo hakaba hari inyubako ndetse n'intoki, hagati yabo hari umudamu uteze igitambaro mu mutwe.

Muimbere mu nzu ahagaragaramo abana batoya cyane ndetse n'udukweto twabo, bicaye ku musambi, hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ari kugenda abahereza ibintu.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abana bambaye imyenda isa ubururu bwijimye ndetse n'udushati, akaba kandi hateretsemo n'imeza y'urubaho.

Abana benshi bagaragara bicaye hasi ku musambi, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abahungu, imbere yabo hari umudamu witeze igitambaro mu mutwe.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri, ahagaragara abana bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, hari abahungu ndetse n'abakobwa.

Inyubako igaragara ndetse yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hakaba hariho urugi rw'umukara, hari abana bahagaze mu idirishya, bambaye imyenda y'ishuri.

Inyubako zigaragara, zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zisakajwe amabati atukura, inyuma yazo hakaba hari ishyamba.

Akabati kanini gakozwe mu mbaho, hakaba harimo amoko atandukanye y'ibitabo byifashishwa mu gusoma ndetse n'agakapu k'umukara.

Inyubako ndende cyane yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho inzugi n'amadirishya by'ibyuma, imbere hateye ibyatsi.

Inyubako zigaragara nk'aho ari amashuri, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hagaragara abanyeshuri bari kugenda bahetse ibikapu.

Inyubako igaragara ifite urugi rw'icyatsi ndetse n'amadirishya ariho utwuma dusize irangi ry'umweru, ikaba yubatse ikoreshejwe amatafari matoya ahiye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abana bicaye hakaba harimo abakobwa n'abahungu bose bafite ibitabo bari gusoma, hahagazemo kandi n'umudamu usa nk'aho akuzemo.

Ishuri rigaragara ryubakishijwe amatafari matoya ahiye mo imbere harimo intebe zikozwe mu mbaho, hari abana bicaranye n'umudamu mukuru imbere yayo hari mudasobwa.

Inyubako igaragara iriho amadirishya manini arimo ibirahure, ikaba yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara abana benshi n'umudamu uri hagati wambaye itaburiya.

Mo imbere mu ishuri ahagaragara abana babiri b'abahungu bambaye amashati y'ubururu, inyuma yabo hari ikibaho gisize irangi ryenda gusa icyatsi, bafite mudasobwa.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara akabati, gasizeho amarangi ari mu moko atandukanye, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, hakaba harimo n'intebe bisa nk'aho ari icyumba cy'ishuri.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zikaba zisakajwe amabati asa ubururu, zikikijwe n'ibiti ndetse hari n'ikibuga gikoreshwa mu gukina umukino w'amaboko.

Abana babiri bahagaze bafashe ku cyuma ndetse bambaye imyenda y'ishuri isa ubururu, umwe afite agakapu ku rutugu.

Umwana wicaye ku ntebe, inyuma y'iwe hakaba hari icyapa gihari, imbere y'iwe hateretse mudasobwa ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Inzu igaragara yubakishijwe udutafari dutoya, duhiye iri mu gipangu gisize irange ryenda gusa umweru hariho utwugi dutoya n'imbaho.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye matoya, hanze hari abana bari kugenda bambaye iniforume banahetse ibikapu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari n'agafondasiyo kubakishijwe amabuye, hagaragara amadirishya abiri.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri ahagaragara abana bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hari mudasobwa iri mu ibara ry'icyatsi n'akeru.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi, hanze hari umudamu uhagaze ndetse n'abana.

Inyubako itagaragara neza yubakishijwe amatafari matoya ahiye, akaba ari akarangi k'umuhondo gasizeho, kandiditseho amagambo manini mu ibara ry'umukara.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ikaba isakajwe ibyo twita amategura, hanze hari umwana wambaye ikabutura n'ishati, n'ibipine bihari.

Inyubako zigaragara, zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zisakajwe amabati ajya gusa ubururu, n'ikigega gihari kibikwamo amazi, inyuma hari ibiti.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe y'urubaho ndetse n'ameza, hejuru hakaba hariho igitabo, hirya hari umuntu utagaragara uhari.

Ikigo cy'amashuri kigaragara cyubakishijwe amatafari asanzwe, hakaba hariho amadirishya y'ibyuma, hanze hari abana bamwe bari gukina n'abandi bari kugenda.

Ikigo cy'amashuri kigaragara, abana bakaba bari hanze, bambaye udushati tujya gusa ubururu ndetse n'amakabutura n'amajipo ajya gusa igitaka.

Abana batoya b'abanyeshuri bicaye mu ishuri, umwe afite ikayi ari kwandika, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba hari uwashyize ikayi ku munwa.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, isa nk'aho ari ishuri, hanze hahagaze abana bari gukina.

Inyubako igaragara hari abana bicaye hanze batoya, hari n'abandi bahagaze bari kugenda, bambaye imyenda y'ishuri.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye ndetse n'agapangu, hakaba harimo abana b'abanyeshuri bambaye iniforume.

Abana bahagaze hanze benshi biganjemo abahungu n'abakobwa, hakurya hari amazu ahubatse ndetse n'umurima uteyemo intoki.

Mo imbere mu nzu isizemo irangi ryenda gusa umuhondo, hakaba hari akabati gateretsemo, hejuru yaho hakaba hari ibikombe bitandukanye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ifite urugi rw'icyuma rufatanye n'idirishya, hari umwana uhagaze hanze.

Ikigo cy'amashuri kigaragara, cyubakishijwe udutafari dutoya duhiye, haragaragaraho n'amadirishya ndetse n'abana bahagaze hanze bambaye imyenda y'ishuri.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hanze hari umugabo uhagaze uri kugenda, n'undi uhagaze hirya w'ishati y'umweru.

Inyubako zigaragara bisa nkaho ari ikigo cy'amashuri, gifite amadirishya y'ibyuma ndetse n'amabati asa ubururu, imbere hakaba hari umugabo uhahagaze.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ku nzira hakaba hari abana batoya umuhungu n'umukobwa, umwe yikoreye ibasi y'ubururu.

Mw'imbere mu cyumba cy'ishuri ahagaragara abana bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho n'ikibaho cyanditseho amagambo atandukanye, haragaragara n'intebe igenderamo ababana n'ubumuga bwo kutagenda.

Inyubako zigaragara zisakajwe amabati atukura, hanze hakaba hari abagabo benshi bambaye amasurubeti ari mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze ahantu hakaba higanjemo abanyeshuri bahetse ibikapu, hirya hakaba hari imodokari y'umweru.

Hanze ahagaragara abana benshi cyane b'abanyeshuri, bambaye amapantaro y'umukara n'amashati yera n'imipira y'amaboko maremare y'umukara.

Umuhanda wubatse neza hakaba hari abahungu batatu bari kuwugendamo, bambaye amashati yera ndetse n'amapantaro asa igitaka.

Mu cyumba cy'ishuri ahagaragara umudamu uhagaze wambaye imyenda yera ndetse n'amarinete mu kuboko kw'iwe afite ikaye.

Iyi nyubako igaragara nini yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hateye icyapa cy'ibara ry'umweru, gishushanyijeho abantu.

Mu imbere mu ishuri ahagaragara ikibaho gisize irangi ry'umukara, hakaba hari ibyanditse imbere ndetse hasize irangi ry'umuhondo.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara abantu bicaye ku meza, hakaba hari ibikoresho bitandukanye, harimo na mudasobwa bakoresha mu bintu byinshi.

Abana babiri b'abakobwa bambaye imyenda y'ishuri, umwe yiteze akantu k'umweru mu mutwe, ahetse igikapu gisa umukara.

Utubase twinshi duteretse ahantu ku meza y'urubaho, dufite amabara atandukanye icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku, hakaba harimo ibiryo by'akawunga.

Inzu igaragara iriho amadirishya arimo ibirahuri, ikaba yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hino yaho hakaba hateye ibyatsi n'uduti tutari twakura.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba hahagazemo abadamu cyangwa se abakobwa, bambaye imyenda ya siporo, inyuma yabo hari abantu benshi bahicaye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hari idarapo riteye ku cyuma ry'igihugu, rifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'amameza, hakaba hari umugabo uhagazemo, imbere y'iwe hari mudasobwa zifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako zigaragara nkaho ari ikigo cy'amashuri, zubakishijwe amatafari matoya ahiye, hino hari abana b'abanyeshuri bicaye hasi bambaye amashati yera.

Ikigo cy'amashuri kigaragara cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara abanyeshuri benshi bicaye hanze mu byatsi.

Abanyeshuri benshi bari hanze, hakaba hari abayobozi bicaye ku ntebe, bambaye amataburiya yera ndetse n'undi wambaye ijire n'ishati.

Umuhanda ugaragara ukoze neza, hakaba hari umuntu uri kuwugenderamo yicaye ku igare, iruhande rwabo haragaragara abakobwa b'abanyeshuri bari kugenda.

Abana benshi bicaye mu ihema ku ntebe za palasitike ndetse bambaye imyenda itandukanye iy'umweru ndetse n'iy'ubururu bwerurutse.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abantu batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo, ku meza iri imbere yabo nini hateretseho ibintu byinshi bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, hakaba hariho inzugi zisize irangi ry'ubururu, mu mbuga hakaba hicayemo abanyeshuri benshi.

Inyubako nini igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakaba hari abanyeshuri benshi cyane n'ikibuga bakiniramo umukino w'amaboko.

Mo imbere mu ishuri ahagaragaramo abanyeshuri, bambaye imyenda y'imyeru hejuru, hasi akaba ari igitaka, imbere yabo hari umudamu wambaye itaburiya yera.

Abana b'abanyeshuri bagaragara, bambaye imyenda y'iniforume ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari bisi iparitse ifite amabara y'icyatsi n'umweru.

Inyubako nyinshi zigaragara ziriho amadirishya, hakaba hari ibiti biteye imbere yazo ndetse n'ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri n'umukino w'amaboko.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri, ahagaragaramo ikibaho gisize irangi ry'umukara ndetse n'abanyeshuri bicaye ku ntebe, bambaye amashati asa umweru n'amapantaro n'amajipo asa igitaka.

Intebe zigaragara zitandukanye zikozwe mu mbaho, akaba ifite aho bicara ndetse n'akandi kantu bakoresha bifashisha mu kwandika n'aho babika amakayi, isa nkaho yifashishwa mu ishuri.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hakaba hari ibyuma birebire bifashemo, mo imbere haragaragaramo ikibuga.

Mo imbere mu ishuri, ahagaragaramo abana ndetse imbere yabo hakaba hari ikibaho cyanditseho amagambo, inyuma yabo hari idirishya rinini.

Imitwe ibiri itagaragara neza inyuma yayo hari akayetajeri gakozwe mu mbaho kakaba karimo ibitabo byinshi bigiye bigerekeranye.

Hanze ahagaragara indabyo zihateye ndetse n'agapangu gafite urugi rukozwe mu byuma, hanze hari icyapa cy'umweru hari amagambo yanditseho.

Mo imbere mu ishuri ahagaragaramo abanyeshuri b'abahungu, hari uri imbere ahagaze ameze nkaho ari gutanga ikiganiro, bicaye ku ntebe bose.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ikibaho kimanitse ku rukuta ndetse ikaba ari inzu isize irange ry'umweru, hari utumeza dukoze mu mbaho.

Inyubako nini cyane igaragaraho amadirishya, hanze hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti bitarakura neza n'inzira y'amapave igaragara.

Igipangu kinini cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, mo imbere hateye ubwatsi n'igiti, hakaba harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Igipangu kinini, cyubakishijwe amatafari matoya ahiye ndetse n'utwuma dusize irangi ryera, mo imbere haragaragaramo ikibuga n'inyubako.

Mo imbere mu nyubako imeze nk'aho ari isomero, harimo akabati kanini karimo amoko menshi atandukanye y'ibitabo byifashishwa mu gusoma.

Icyapa kigaragara gikozwe mu byuma kikaba gisizeho amarangi atandukanye hari iry'ubururu ndetse n'umweru. Hari amagambo manini yanditse mu ibara ry'ubururu.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, ku gipangu hakaba hamanitse icyapa cyerekana ibiri kuhabera , mw'imbere hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umweru ari kugenda.

Igipangu kinini kigaragara gisizeho akarangi kajya gusa ibara ry'umuhondo, urugi na rwo rusize irangi ryera ndetse n'umuhondo n'ubururu, hari amagambo yanditseho.

Abanyeshuri benshi bahagaze hanze, bose bakaba bambaye amapantaro ari mu ibara ry'igitaka n'amashati y'umweru, inyuma hakagaragara inyubako yubakishijwe amatafari mato, ahiye.

Mo imbiri mu nyubako, ahantu hicaye abantu benshi batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abasore, hakaba hari umwana mutoya ubahagaze imbere. Afite indangururamajwi mu kuboko kwiwe.

Mo imbere mu nyubako hasa nkaho hararwamo abanyeshuri, hagaragaramo ibitanda bigerekeranye ndetse n'akabati baterekamo icyo twakwita mare, n'umunyeshuri wambaye ijipo y'ubururu n'ishati y'umweru.

Mo imbere muri sale ahagaragara abantu bambaye imyenda yera, bicaye ku ntebe zisa ubururu, imbere yabo hari umugabo uhahagaze.

Igipangu kinini kigaragara, gifite urugi rusize irangi ry'umweru n'uturongo tw'ubururu, hariho ibirango byerekana ko ari ikigo cy'amashuri.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite urugi rukozwe mu byuma, hakaba hari icyapa kimanitseho cy'umweru.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, aragaragaraho utwuma turi hanze dusize ibara ry'ubururu ndetse n'inzugi n'amadirishya.

Ikigo cy'amashuri y'abana batoya bakaba bicaye hasi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari umudamu uri kubabwira.

Abana benshi b'abanyeshuri bicaye hanze, hakurya hakaba hari umusozi urimo ibiti byinshi, ndetse imbere y'amashuri hashinze idarapo ry'igihugu.

Umuhanda ugaragara wubakishijwe amabuye ku ruhande hagaragara abana b'abanyeshuri, bahetse ibikapu ndetse n'inyubako iri hasi ifite amabati y'ubururu.

Umugabo ugaragara mu imbere mu nyubako, akaba yambaye itaburiya ifite ibara ryera ,akaba afite inkoni mu ntoki, mbere yiwe, hari igipapuro cyanditseho amagambo n'ibishushanyo.

Inyubako zigaragara zubakishijwe amatafari matoya ahiye, zikaba zisakajwe amabati ajya gusa ubururu, hanze haparitse imodoka rimwe y'umweru n'indi y'umuhondo iri kugenda mu nzira.

Inyubako igaragara yanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ibishushanyo byerekana ikarita ya Afurika, amadirishya y'ibyuma asizeho akarange k'icyatsi.

Inyubako igaragara nini, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakagaragara umudamu wambaye ijipo y'umukara ari kugenda.

Mo imbere muri sale nini, ahagaragaramo abantu benshi b'urubyiruko bambaye amashati y'umweru, higanjemo abasore ndetse n'abakobwa.

Abanyeshuri benshi biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kugenda iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hari moto iri guturuka inyuma itagaragara neza.

Mo imbere mu cyumba cy'ishuri haragaragaramo abanyeshuri bicaye ku ntebe ndetse n'umwarimu ubahagazemo hagati wambaye itaburiya y'umweru, inyuma ku kibaho hari ibintu bihanditse.

Ishuri hakaba hicayemo abana benshi bisa nkaho bari gufata amasomo umwarimu ari kubahereza, imbere ku kibaho hakaba hari ibintu yahanditse.

Abantu benshi bahagaze hanze ndetse n'ababyinnyi bateze amaboko, inyuma yabo hari igiti ndetse n'ibendera ry'igihugu n'inyubako zibakikije.

Abantu b'urubyiruko bahagaze ahantu, inyuma hari intebe z'umweru, bambaye imyenda, amashati y'umweru, hasi akaba ari imyenda isa igitaka, bafite amakayi mu ntoki bose.

Abana benshi barimo imbere mu ishuri, bakaba bicaye ku ntebe, harimo umwe uhagaze wambaye umupira w'umweru n'inkweto zirimo akabara gatukura ndetse n'umweru ari gutanga ikiganiro.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ameza n'intebe, hakurya hari utubati turimo ibitabo.

Mo imbere mu nyubako ishashemo amakaro, ikaba isize irange ryera, hari umuntu wicaye ku ntebe utagaragara neza.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara imeza iriho ibintu byinshi bitandukanye, hari ibitabo, amakayi ndetse na mudasobwa.

Inyubako zigaragara ndende, kandi zisize irangi rijya gusa umuhondo, hanze hari abantu benshi bari kuhagenda ndetse n'abandi bahagaze.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kigaragara giteyemo ubwatsi, hirya hakaba hari ibiti binini, hino hari aho abantu bicara bari kureba.

Inyubako zigaragara zisize irangi ryenda gusa umuhondo, inyuma hari ibiti bihateye, ndetse n'ibyuma bishinze imbere.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abantu benshi bicaye, imbere yabo hari umudamu w'umuzungu asa nkaho ari kubahereza ikiganiro.

Inyubako igaragara hanze hari umuntu uri kuhagenda ndetse isize irange ry'umuhondo, hakaba hari indabyo ziteye hanze.

Ameza manini ateguyeho amafunguro hariho ibirahuri birimo amazi, ibiyiko ndetse n'ibiganza bifite ikanya n'icyuma.

Salle irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gupima ibintu runaka, harimo abagabo n'abagore, bambaye amataburiya yera.

Mo imbere mu nyubako hasizemo irangi ryera, hejuru hakaba hari amatara menshi cyane, hateretsemo amoko menshi y'ibicupa, ndetse n'amakarito.

Inyubako igaragara isizeho amarangi yiganjemo ay'umweru, hejuru y'amadirishya isakajwe amabati, hanze hakaba hari ibiti byinshi.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara ameza hejuru akaba asa umweru ndetse n'intebe zikozwe mu mbaho, hirya hari akabati karimo ibitabo.

Inyubako nini cyane igaragara, yubakishijwe amatafari matoya ahiye, iragaragaraho amadirishya menshi cyane, imbere haparitse amamodoka abiri.

Mo imbere mu nzu ahagaragaramo uturobine bifashisha bakaraba mu biganza ndetse n'ibasi n'inkweto zigiye zitandukanye.

Mo imbere mu nyubako ahasa nk'aho ari mu ishuri, imbere hari ikibaho cyanditseho ibintu, hakaba harimo intebe ndetse n'ameza menshi.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo intebe nyinshi cyane bicaraho; bisa nk'aho ari ishuri.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari ahiye matoya, hanze hari amabasi ahateretse ndetse n'imigozi yanitseho imyenda.

Mw'imbere muri sale igaragaramo abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretse imashini cyangwa se mudasobwa.

Abantu bagaragara bari mu mbuga nini cyane, ikaba ikikijwe n'ibiti, hari umudamu uhagaze wambaye ikanzu itukura n'gasakoshi k'umukara.

Inyubako igaragara nini, imbere hakaba hari umuntu uhahagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'abandi babiri bari kugenda, umugabo n'umudamu.

Mo imbere muri salle ahagaragara abantu benshi b'abagabo bicaye ku ntebe, imbere ku meza hakaba hateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa.

Inyubako zigaragara zisize irangi rifite ibara ryenda gusa umuhondo, hanze hateye utwatsi dutoya ndetse n'ibiti bitagaragara neza.

Inyubako igaragara iri mu gipangu gikikijwe n'utwuma dusudiriye, ikaba isize irangi risa umuhondo, hejuru yayo hasize akarange k'umweru, hari n'amagambo ahanditse.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara intebe ebyiri ndetse n'ameza amwe, hakaba hateretseho utubito dutatu ndetse n'ibikombe bibiri.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hanze hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti bihateye.

Mu imbere mu nyubako ahagaragara intebe nyinshi, zifite ibara ry'umutuku harimo abantu benshi biganjemo abadamu ndetse n'abagore.

Mo imbere mu nzu ahagaragara ibikoresho bitandukanye, hakaba harimo utubati dukozwe mu mbaho ndetse n'akarobine bifashisha bakaraba.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abantu, harimo abadamu ndetse n'abagabo, umwe yambaye amarineti ndetse n'itaburiya yera.

Ikibuga kigaragara gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ariko hakaba hakinirwamo umukino w'amaboko hakaba hakikijwe n'ibiti.

Inyubako mo imbere bigaragara yuko iberamo amanama atandukanye, hakaba harimo intebe nyinshi cyane izisa umukara n'izenda gusa igitaka.

Mo mbere mu nyubako ahagaragaramo intebe ebyiri zikozwe mu cyuma, ndetse no mu mbaho n'ameza ateretseho utubido dutatu tw'umweru.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo akabati, kakaba karimo amoko menshi atandukanye y'ibitabo, byifashishwa mu bumenyi bwa buri munsi.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo intebe zisa ibara ry'ubururu ndetse n'ameza, hirya hari umuntu uhicaye, inyuma yiwe hari ikibaho.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako, harimo abagabo ndetse n'abagore, hanze haparitse imodokari ebyiri harimo kwasiteri y'umweru.

Mo imbere mu nzu ahasa naho ari mu cyumba, haragaragaramo ibitanda bigeretse inshuro ebyiri, bikozwe mu byuma, hariho na matera n'amashuka.

Salle yicayemo abantu, abagabo batanu, ndetse n'umudamu umwe witangiyeye ibintu bisa ibara ry'umuhondo, imbere yabo hakaba hari mudasobwa.

Inyubako igaragara, imbere yayo hari agapangu gashinzemo utwuma, ndetse n'icyapa kinini gifite ibara y'umweru, cyanditseho amagambo menshi.

Mo imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, harimo inzugi zifite ibara ritukura kandi n'intebe ikozwe mu rubaho y'icyatsi ndende.

Mo imbere mu nyubako haragaragara idirishya rinini ririho n'amarido ndetse n'intebe zirimo imbere, harimo izisa icyatsi n'umukara n'imeza ikoze mu mbaho.

Inyubako igaragara yubakishijwe utudafari dutoya duhiye, hakaba hariho ibirahure ndetse n'inzugi, hanze hahagaze umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umukara, n'uwambaye umupira w'umuhondo utagaragara neza.

Inyubako zigaragara kandi ndende, zikaba zikikijwe n'ibiti byinshi, haragaragara amadirishya ariho ibirahure.

Inyubako igaragaraho amadirishya menshi akozwe mu byuma, imbere hariho umureko usize akarangi gatukura ndetse inyuma hari ibiti byinshi.

Inyubako igaragara, isize irang ryenda gusa umuhondo, hanze hari abantu bari kuhagenda, harimo umudamu wambaye ijipo y'umukara.

Mo imbere mu nyubako ahasize irangi rijya gusa umuhondo, haragaragara agace gatoya cy'igitanda gikozwe mu cyuma ndetse n'ahandi bifashisha bakaraba intoki.

Abantu bari mu imbere mu nyubako yubakishijwe amatafari matoya ahiye, bahagaze imbere y'imashini runaka. Harimo umugabo wambaye ikote.

Mo imbere mu nyubako ahagaragarara imeza ndetse n'intebe y'umweru n'akandi kameza gato ya kariho udukoresho na mudasobwa, hamanitsemo imyenda.

Mu imbere mu nyubako ahasa n'ahabera imikino y'amaboko, hagaragara abakobwa batandukanye ndetse n'abagabo, hari uwambaye ikabutura ndetse n'ingofero y'umweru.

Icyapa gishinze ahantu kikaba gisize irange ryera, kikaba cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu ndetse inyuma hari ibyuma bihashinze.

Urugi rugaragara rukozwe mu mbaho ruriho icyo twakwita serire, hagati yarwo hakaba harimo akarahuri umuntu yabasha kureberamo, hakaba hari utuntu tukometseho.

Igikuta kigaragaraho agace gatoya cyubakishijwe udutafari duhiye, imbere haparitse icyo bita bisi, yanditseho amagambo manini mu ibara ry'ubururu.

Abagabo bicaye mu cyumba kiberamo inama runaka, uri imbere yambaye amarineti n'ikote n'isaha ku kuboko, imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Mo imbere mu ishuri risa nkaho ryigirwamo n'abantu bakuze, haragaragaramo abakobwa ndetse n'abagabo, imbere hari uhari afite mudasobwa, ari kubereka amasomo.

Inyubako igaragara isize irangi ry'umuhondo, inyuma yayo hakaba hari ibiti binini byinshi, imbere hakaba hateye ubwatsi bukeya.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abantu bicaye mu ntebe, imbere ku meza yabo hateretse mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi.

Imodokari nini bita bisi ifite ibara ry'umweru, inyuma hari amagambo yanditseho manini ari mu ibara ry'ubururu mo imbere hakaba hicayemo abantu.

Inyubako nini igaragara ifite amabati atukura, isize irange rijya gusa umuhondo, imbere hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inyubako igaragara isize irangi, hagaragaraho amadirishya afunguye ndetse n'utwuma duteye ku nzira yinjiramo, ikaba ikikijwe n'ibiti.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo, akaba ari amadirishya menshi ariho, inyuma hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe, harimo umudamu ndetse n'abagabo. Imbere yabo hari mudasobwa bifashisha mu gukora akazi gatandukanye.

Mw'imbere mu nyubako ahagaragara amadirishya manini ariho ibirahure, hanze haragaragara ibiti mo imbere hari akabati karimo ibitabo.

Inyubako nini zigaragara zisize irangi ry'mweru hakaba hari n'amadirishya ariho ibirahuri hanze hari inzira ikozwe mumapave ndetse n'utwuma tuyikikije.

Inyubako nini igaragara hanze, hari amayesikariye ndetse n'ibyuma byifashishwa mu gutanga umwuka, ikaba isize ibara ryenda gusa umuhundo.

Mo imbere mu nyubako ishashemo amakaro, hakaba harimo ibitanda bigerekeranye n'imyenda imanitse n'amavarisi manini atatu.

Inyubako igaragara, isize ibara ryenda gusa umuhondo, hanze hakaba hari akayira gakoze, gakikijwe n'utuntu dusize ibara ry'umweru n'umukara.

Mu imbere mu nyubako ahagaragaramo igitanda gikozwe mu byuma, hariho matera ndetse n'agasego, ku meza haragaragara akirori bifashisha banasokoza.

Mo mbere mu nyubako isize irangi ryera, haragaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, hakaba harimo agatebe gakozwe mu tubaho n'utwuma.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo abantu, bakaba ari abasore ndetse n'abakobwa, bambaye amapantaro y'umukara n'amashati yera, hari n'abandi bicaye mu ntebe.

Mu imbere mu nyubako isa nkaho yubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragaramo intebe n'abantu basa nkaho bari kuganira, inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo.

Mo imbere mu nyubako ishashemo amakaro harimo akameza gakozwe mu cyuma ndetse no mu mbaho n'udutebe duteretsemo, inyuma hakaba hari ibitanda bigerekeranye.

Mo imbere mu nyubako ahagaragara abantu bambaye amataburiya yera ndetse n'amaga ajya gusa ubururu, imbere yabo ku meza hari udukoresho twifashishwa mu gupima.

Mo imbere mu nyubako, ahagaragaramo abantu benshi batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo, umukobwa uri hano yambaye ipantaro y'umukara n'umupira wera.

Icyapa kigaragara cyanditseho amatariki ya mbere y'ukwa gatanu, isobanuye ko ari umunsi w'abakozi mu Rwanda, hakaba hari amazu ashushanyijeho ndetse n'amashyamba.

Mo imbere mu nyubako, ahagaragaramo igikuta cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, imbere hari ikibaho cy'umweruru, hari n'imeza yo mu rubaho iteretsemo.

Inyubako zigaragara ziri mu gipangu gikorotirijwe utwuma bita udutibe, hanze hateye icyapa cy'umweru hakaba hari ibiti bihakikije n'umugabo wambaye isarubeti.